Ibikoresho byifashishwa mu mashuri abanza, kugira ngo abanyeshuri babashe kumenya ibyo biga bakoresheje amashusho, bibafasha mu myigire yabo.

Inzu yamashuri abanza hakaba hashushanyijeho imbere bimwe mu bikoresho bifashisha mu gihe barimo kwiga kugira ngo abana bato babashe gukurikira neza.

Ibikoresho byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri y' incuke, kugira ngo babashe kwishima kandi batarira kubera ko aba ari batoya.

Ikigo cy'amashuri abanza, ku mashuri imbere hariho ibishushanyo bitandukanye, nk'cy'ibendera ry'Igihugu ndetse n'inzovu.

Ibitabo byifashishwa mu mashuri abanza, bifasha abana bato kugira ubumenyi bwo gusoma ndetse no kwandika, mu nyuguti ndetse no mu magambo.

Igikoresho cyifashishwa n'abana bo mu mashuri abanza, kugira ngo babashe kujyana amazi ku ishuri, kugira ngo bataza kugira inyota.

Ibikoresho byifashishwa n'abanyeshuri bo mu mashuri abanza ndetse n'ay'inshuke. Babyifashisha mu kwandika kugira ngo ibyo banditse bibashe gufata cyane kandi ntibisibike.

Ibikinisho abana bo mu mashuri abanza bifashisha igihe bari mu kiruhuko, bibafasha kuruhuka, kugira ngo babashe kongera kujya kwiga bameze neza.

Igitabo cyifashishwa n'abanyeshuri bo mu mashuri abanza, kugira ngo babashe kumenya inkuru zo mu dutabo, ndetse bongere n'ubushobozi bwo gufata mu mutwe, ndetse no kumenya gusoma.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kwiga imibare, harimo amalati, amakereyo, amatayekereyo, kompa ndetse na buwate matematikale yo kubibikamo.

Ikigo cy' amashuri abanza. Aho binjirira handitseho ngo TTC Matimba ni ikigo gitanga uburezi ku banyeshuri.

Igitabo cy'umunyeshuri cy'umwaka wa mbere w'amashuri abanza, iki gitabo umunyeshuri akifashisha arimo kwiga gusoma ndetse no kwandika.

Ibikoresho bitandukanye abanyeshuri bo mu mashuri abanza bifashisha iyo bari kwiga, nk'ibibafasha guteranya cyangwa se kugabanya imibare, ibibafasha gushushanya ndetse n'ibindi bitandukanye.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu mashuri abanza mu gihe barimo kwiga imibare, byifashishwa barimo gushushanya, guca imirongo ndetse n'ibindi bitandukanye.

Amashusho atandukanye, aya mashusho yifashishwa n'abanyeshuri mu mashuri abanza kugira ngo babashe kwiga neza bari kureba amashusho y'ibyo biga.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri mu kwiga cyangwa se mu gushushanya, muri ibyo harimo amarati, keleyo, goma, tayekereyo ndetse n'ibindi.

Igitabo k'Ikinyarwanda, cyifashishwa n'abanyeshuri bo mu mashuri abanza, bakifashisha kugira ngo babashe kumenya kubara ndetse no kwandika, imibare, bari kureba n'amashusho.

Urupapuro ruriho amatungo magufi ndetse n'ibinyabuzima byo mu mazi. Kuhande rw'ibumoso turabona inkoko hagakurikiraho ifi hagakurikiraho urukwavu ndetse n'injangwe.

Ibikoresho byo mu mashuri abanza abanyeshuri bifashisha mu kwiga imibare bashobora kwifashisha bari kwiga gukuba, guteranya cyangwa se kugabanya, bigaragara ko bibafasha mu kumenya kubara.

Ikigo cy'amashuri ya pirimeri ni inyubako igereretse kabiri ikaba ifite bariko ziteye amarange y'ubururu n'inzugi z'ubururu, imbere yacyo hahagaze abantu batandukanye, abagabo, abagore ndetse bambaye udupfukamunwa.

Ibikoresho byifashishwa mu mashuri, abanza, harimo ibyo bifashisha, mu gukata impapuro, mu kwiga inyajwi ndetse n'ibyo bifashisha, mu gushushanya n'ibindi.

Igitabo cy'amashuri abanza, iki gitabo cyifashishwa n'abanyeshuri kugirango babashe kumenya gusoma, ndetse no kubara imibare.

Mu bikoresho bitandukanye abanyeshuri bifashisha mu kwiga, harimo amarati umuntu yifashisha mu guca imirongo ndetse no gupima, harimo amakereyo ndetse n'amatayekereyo, hari na buwate yo kuzishyiramo.

Ibikoresho bitandukanye bigaragara ko bifashishwa, mu gihe abana barimo kwiga mu mashuri abanza kugira ngo babashe kumenya kubara neza.

Icyumba gikorerwamo isomero ku banyeshuri bo mu mashuri abanza, kiba kirimo ibitabo bitandukanye ku buryo bifasha abanyeshuri kongera ubumenyi.

Amashuri menshi agenda arebana, ayo mashuri akaba ageretse kabiri, akaba afite inzugi z'ubururu ndetse imbere y'ayo mashuri hari jaride, hirya y'aho hakaba hari igicumbi cy'Umudugudu.

Ibikoresho byo mu mashuri abanza, ibi bikoresho abarimu babyifashisha mu gihe bari guha ingero abanyeshuri kugira ngo babashe kumva neza ibyo biga.

Abana bo mu mashuri abanza aba bana barimo kwitoza kwandika ku kibaho bapfukamye, harimo abakobwa ndetse n'abahungu bamwe bambaye iniforume abandi bambaye imyenda isanzwe.

Ikigo cy'amashuri abanza, ikigo kinini cyubatse mu nyubako nziza, imbere yayo hari abantu babiri.

Ikibuga kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri mu kuruhuka babikoresha igihe bari mu mwanya wo kuruhuka.

Ikigo cy'amashuri yisumbuye, iki kigo hari abantu bari hirya yacyo, bisa nk'aho ari ababyeyi bari mu nama cyangwa se abarimu bari mu nama.

Ikigo cy'amashuri yisumbuye, n'inyubako zigiye zubakwa kimwe, hirya yazo hakaba hari ikigega cy'umukara, cyifashishwa mu kubika amazi.

Abanyeshuri bo muri segonderi bambaye impuzankano zimeze kimwe. Bigaragara ko bari kwifotoza, harimo abakobwa ndetse n'abahungu.

Ikigo cy'amashuri yisumbuye, harimo abanyeshuri benshi b'abakobwa, bambaye impuzankano, umweru hejuru ndetse n'amajipo y'ubururu.

Sare nini igaragaza ko harimo abanyeshuri ba segonderi, ni abanyeshuri b'abakobwa ndetse n'abahungu bambaye imyenda y'icyatsi kijimye, ishati y'umweru ndetse n'umupira w'icyatsi bose bambaye amasogisi y'umweru ndetse n'inkweto zifunze bigaragara ko bari mu nama.

Icyumba kirimo abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye, bigaragara ko barimo kwiga ndetse barimo no gufata note.

Abanyeshuri benshi bo muri segonderi bigaragara ko barimo kwifotoza ni abahungu ndetse n'abakobwa bamwe bambaye iniforume ya kake hasi ndetse n'umweru hejuru, abandi bakaba bambaye umukara hasi ndetse n'umweru hejuru.

Abanyeshuri bo muri segonderi bahagaze ku mirongo harimo abakobwa n'abahungu, bambaye iniforume ndetse n'inkweto z'umukara n'amasogisi y'umweru, bisa nkaho bari mu nama bakurikiye abari imbere bari kubayobora.

Abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye barimo kugenda ku murongo, ni abahungu ndetse n'abakobwa bamwe bambaye inifomo y'ubururu hejuru ndetse na kake hasi, harimo ndetse n'abambaye izitandukanye n'iz'abandi.

Icyumba kirimo abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye, bambaye impunzankano zisa, ndetse bamwe bari hamwe.

Igikoni gitekerwamo ibiryo byo mu mashuri yisumbuye, harimo amasafuriya manini cyane batekamo ibyo biryo ndetse harimo n'abantu.

Icyumba cy'ubushakashatsi, cy'amashuri yisumbuye. Iki cyumba gikorerwamo ubushakashatsi butandukanye, mu gihe abanyeshuri bakeneye kwiga. Haragaragaramo abantu batandukanye bashobora kuba bari kureba uko cyubatse.

Icyumba kigari kirimo abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye basa nk'aho bari mu nama, imbere yabo hahagaze umugore ufite indangururamajwi, bigaragara ko ariwe uri kubayobora.

Icyumba cy'ishuri kitarimo abanyeshuri, kirimo intebe ndetse n'ameza. ku ruhande ku rukuta hakaba hagaragaraho amashusho atandukanye bagenda bifashisha mu kwiga.

Ibikoresho byifashishwa n'abanyeshuri b'imyuga kugira ngo babashe kumenya gushushanya bakoresheje marikeri zitandukanye.

Icyumba cy'ishuri rya kaminuza, kirimo intebe bicaraho igihe bari kwiga ndetse harimo n'abanyeshuri, imbere yaryo hari abanyeshuri bahagaze hanze.

Ibikoresho byifashishwa n'abanyeshuri biga imyuga, kugira ngo babashe gukora neza ibyo biga.

Umunyeshuri wa kaminuza, uyu munyeshuri bigaragara ko asoje ikiciro cya kaminuza, akaba ari mu birori bisoza icyo kiciro, bigaragara ko yambaye imyenda y'abantu basoje.

Icyumba gikoreshwa nk'isomero, ry'ibitabo. Iki cyumba cyifashishwa n'abanyeshuri, ba kaminuza, kugirango, babashe, gusoma ibitabo, uko babishatse.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri rya kaminuza, bakaba bose bafite imashini bifashisha mu kwiga. Imbere hahagaze umwarimu uri kubigisha kandi bambaye udupfukamunwa bose.

Igishushanyo kifashishwa mu kwiga mu mashuri ya kaminuza kugira ngo abanyeshuri babashe kubona urugero rutuma bumva ibyo biga neza.

Icyumba kicayemo abanyeshuri ba kaminuza, aba banyeshuri biragaragara ko barimo kwiga ariko bakaba bari kujya batanga ibitekerezo.

Ibikoresho bikozwe mu ibumba, ibi bikoresho bikorwa n'abanyeshuri biga imyuga kugira ngo babashe gukora ibintu bitandukanye.

Abanyeshuri ba kaminuza bicaye mu ishuri abandi muri bo barahagaze bigaragara ko bari gukorera hamwe umukoro bahawe na mwarimu kugira ngo bungurane ibitekerezo babashe kubikora neza.